Mu cyaro ahantu hataba amazi, aho umugore n'abana baje, baje kuvoma batonze umurongo, bazanye ibyo kuvomererwamo ari byo amabase n'amajerekani, aho abana babiri, bari gusunika pompe kugira ngo izane amazi.

Ivuriro rifite ibisabwa byo kuvura abarwayi, harimo abaganga bambaye bikwije imyenda y'abaganga udupfukamunwa, hakaba hari n'imashini zabugenewe mu buvuzi ku byerekeye no gupima aho umuntu ageze ndetse n'amaserumu.

Umwana mutoya uri ku ivomero, aho arimo anywera amazi kuri robene, kugira ngo amazi amufashe kugira ubuzima bwiza.

Abantu bicaye hanze bari kuganira n'abajyanama b'ubuzima, bari kuganirizwa ibyerekeranye n'imibereho myiza ndetse no kwiyitaho n'uburyo bashaka ubuvuzi mu gihe hagize ikibazo.

Umuturage w'umumama ndetse n'umwana we bicaye mu rugo, bakaba basuwe n'umujyanama w'ubuzima kugira ngo abagire inama y'ibyo bagomba gukora, kugira ngo bakomeze kugira ubuzima bwiza.

Umugabo uri mu myaka y'izabukuru wambaye umwenda w'ibara ry'icyatsi, urimo uramwenyura ufite ubuzima bumeze neza bwo mu mutwe.

Abanyeshuri batatu bambaye imyenda y'ishuri bafashe uburoso uw'imbere afashe uburoso n'akaboko abuzamuye bw'umuhondo, umukurikiye afite ubw'icyatsi, ukurikiye inyuma afite ubw'ubururu bakaba bari gukora isuku mu menyo biborosa.

Umubyeyi urimo urigisha umwana we, gukora isuku mu kanwa, aho afite uburosoro n'umwana akaba afite uburoso, arimo aramwereka uburyo bukoreshwa.

Umuganga w'igitsina gabo, uri kureba amafoto yerekana iryinyo ry'umurwayi kondisiyo ririmo.

Ni mu ivuriro rivura amenyo aho muganga n'umwunganizi we bari kureba no kuvura uburwayi amenyo, aho bambaye amarinete, udupfukamunwa, ga kugira ngo birinde ikindi cyose cyabanduza.

Umwana w'umukobwa uri munsi y'imyaka y'ubukure, akaba ari kwa muganga aje kureba ndetse no gusuzuma amenyo, nk'umuganga akaba afite ibikoresho bisabwa kugira ngo arebe ubuzima bwerekeranye n'amenyo.

Umugabo uri mu myaka y'izabukuru, uri gufata ibyo kurya bya mu mugitondo n'ibyo kunywa, n'umuganga urimo uramusukira anamugenera indyo agomba kurya mu gitondo.

Umuryango ugeze mu za bukuru, umusaza n'umukecuru bari ku meza, bari gufata amafunguro arimo imboga, imbuto n'ibindi byinshi by'indyo yuzuye n'icyo kunywa.

Umugabo ukuze uri mu myaka y'ejuru ufite imvi mu musatsi ndetse no mu bwanwa, wambaye ishati ya kaki urimo uriga cyangwa se akora akazi, ariko asa nkaho byamucanze cyangwa se arwaye umutwe.

Umurwayi ufite ikibazo uri kwa muganga, utabasha kugenda wambaye ikanzu y'abarwayi, akaba ari kugendera ku byuma bifasha abatabasha kugenda neza, kugenda.

Umugabo uri mu myaka mikuru akaba afite agasaha kaziritse ku mubiri wiwe, gapima umuvuduko w'amaraso ndetse nuko umutima utera.

Uyu ni umuforomo w'umutegarugori wambaye umwenda w'ikiganga, akaba ari guhindurira serumu umurwayi w'igitsina gabo uryamye mu bitaro urwaye.

Umurwayi urembye ujyamye ku bitaro aho ari gusengerwa na pasiteri kugira ngo amuraragize Imana no kugira ngo amusengere abashe gukira ndetse n'umugore urimo urapima amaraso.

Icyumba cy'ivuriro kirimo ibikoresho bikoreshwa mu buvuzi, harimo intebe y'umurwayi ndetse n'icyuma gifite ibikoresho byo gufasha umurwayi mu guhumeka no guhabwa serumu ndetse no mu gupimwa aho umutima ugeze.

Ubaganga bane bari muri tente, babiri bafite amakaramu, amwe ari kwandika ibipimo biri gufatwa, undi arimo afata amaraso y'umuturage, anapima umuvuduko w'amaraso.

Umuganga wambaye imyenda y'abaganga y'icyatsi urimo agenda mu nyubako y'ivuriro rifite ibikoresho byo kwakira abarwayi harimo ibitanda bihabwa abarwayi ndetse n'ibindi bikoresho bikoreshwa abarwayi bivuza.

Inyubako y'ubuvuzi ifite akabati karimo imiti itandukanye ivura indwara zitandukanye abarwayi baba barwaye.

Inyubako igeretse ya etaje, ikaba ari ivuriro, ari na ho hatangirwa serivisi z'ubuvuzi.

Icyumba gikorerwamo siporo, aho harimo ibyuma bitandukanye, ibyo kwirukanka bifasha gukora siporo yo kwirukanka nk'aho uri kwirukanka mu muhanda usanzwe, n'ibyo kunyonga bimeze nk'uri gutwara igare mu buryo busanzwe.

Mu kigo nderabuzima aho abarwayi bahagaze, aho bakirira abagana ikigo nderabuzima bategereje yuko bafashwa, bagahabwa ubuvuzi.

Inyubako ikorerwamo ubuvuzi cyangwa se ivuriro, akaba ari hanze aho rifite n'ibikinisho cyangwa se ibinezeza abana, kugira ngo bakomeze bishimye bafite n' ubuzima bwiza.

Inyubako y'ivuriro ryo kubyaza aho abapfukamye n'abicaye ari abakoramo harimo abaforomo ndetse n'abaganga bafasha mu kubyaza.

Inyubako ya farumasi cyangwa se aho bagurira imiti bavuye kwa muganga, bakaba bayita Porogeresi farumasi, ikaba ifite imiti y'ubwoko butandukanye ivura abarwayi.

Abagabo bane basutamye bari gufasha kuvura umurwayi uryamye mu kibazo cy'ingororangingo ndetse na siporo.

Umusore wambaye imyenda ya siporo, agasengeri k'umukara n'ikabutura y'umukara akaba arimo arakora umwitozo ngororamubiri, akaba ari kuyikorera mu rugo iwe ku gatapi.

Umugabo ukiri mutoya urimo uranywa amazi mu gacupa nyuma yo gukora umwitozo w'ingororangingo.

Umutegarugori urimo urakora siporo, wicaye ku gatopi kabugene ku gukora siporo, akaba arimo arinanura kugira ngo agire ubuzima bwiza, yambaye imyenda ya siporo.

Aha ni mu ivuriro rivura ingingo, aho umuganga w'igitsina gabo yambaye umwambaro w'ubururu, arimo agorora umurwayi ingingo y'akaguru n'imitsi.

Umutegarugori wambaye imyenda ya siporo, akaba yicaye ku itapi ya siporo, arimo akora siporo, ndetse no kugorora ingingo kugira agire ubuzima bwiza.

Umuganga wambaye imyambaro y'ubuganga ndetse n'umurwayi uri mu myaka ikuze, akaba arimo aregororwa ingingo kugira ngo akomeze kugira ubuzima bwiza.

Agasanduku karirimo ubuvuzi bw'ibanze, bukaba bwajyanye ku kibuga, aho hari kubera imikino itandukanye, ikaba ifasha mu kuvura byihuse mbere y'uko bagera kwa muganga.

Inyubako irimo ubuvuzi bwa gakondo, ikaba ifite imiti y'ubwoko bwose, ifasha mu kuvura mu buryo bwa gakondo.

Umucyeka uriho ibintu byinshi bitandukanye by'ibihingwa bikoreshwa mu buvuzi, hakaba hari n'umugabo urimo urabitegura kugira ngo bikoreshwe mu buvuzi gakondo.

Ibyateguwe ku meza by'ubuvuzi gakondo burimo icyo kunywa cy'imiro ironji, ndetse n'ibibabi, ndetse n'izindi mbuto zikoreshwa mu buvuzi bwa gakondo.